Kwiga bigira umumaro, abana babasha kwiga gukaraba, bakagira ubundi bumenyi bugiye butandukanye harimo n'ubwenge n'umuco.

Abana bacu babonye ubumenyi bwiza, bize neza amashuri abanza ya pirimeri, bibafasha kwiga neza n'ayisumbuye, none bateye imbere, ku rwego rushimishije mu gihugu, ahantu hose.

Twabashije gutera imbere mu burezi, tubona ibikoresho byifashishwa mu kwiga. Ku ishuri harimo: amakayi, amakaramu, ibitabo bituma abanyeshuri bagira ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru, bakurana ubwenge.

Iterambere mu burezi ryaraje, dufite ikigo cy'amashuri hafi, abana nti ntibagikora urugendo rurerure, bajya ku ishuri buri munsi ntabwo bagisiba kujya kwiga kandi bakavoma n'uburezi buhambaye.